Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, harimo umurwayi urembye cyane hakaba harimo abaganga benshi cyane baje kumwitaho, bambaye amakanzu y'ubururu n'utugofero dusa nk'icyatsi n'udupfukamunwa.

Kwa muganga, ahantu mu busitani haparitse imbangukiragutabara, iruhande rwayo hahagaze abayobozi, barimo n'abaganga, bigaragara ko bari kuganira ku bintu runaka.

Abakozi bo kwa muganga bambaye imyenda yabugenewe, bafite akantu batwaramo umurwayi uzanwe kwa muganga, yarembye cyane, atari kubasha kwigenza bakamugeza mu cyumba agomba kwakirirwamo.

Imbangukiragutabara y'ibitaro bya Nyagatare iparitse kwa muganga itegereje gutwara umurwayi ufite ikibazo cyihutirwa kugira ngo imujyane ku bindi bitaro.

Abakozi bo kwa muganga, bashinzwe guterura umurwayi ufite ikibazo gikomeye, utari kubasha kwigenza, bakamujyana mu ivuriro cyangwa mu mbangukiragutabara kugira ngo agezwe aho aritabwaho.

Kwa muganga hicaye abarwayi benshi cyane, bicaye ku murongo bose bakaba baje kwivuza ndetse bakaba bategereje ko muganga agenda ahamagara, umwe, umwe kugira ngo amukorere, ibyamuzanye kwa muganga.

Ku kigo nderabuzima hahagaze abaganga babiri bambaye amatabuririya y'umweru, n'abandi babiri bambaye amatabuririya asa nk'ubururu, hagati yabo hahagazemo umumama uhetse umwana n'umugabo wambaye umupira w'umukara.

Ku kigo nderabuzima, hari abaganga b'abagabo n'abagore bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye n'uburyo bagomba kunoza akazi kabo.

Ku kigo nderabuzima hari aho bakarabira, aho hantu hakaba hari umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro yumukara, n'agapfukamunwa k'umukara, ari gukaraba amazi meza n'isabune.

Ku bitaro hari icyumba kirimo igitanda baryamishaho umurwayi igihe bagiye kumuvura, iruhande rw'icyo gitanda hakaba hari n'akabati umurwaza yaterekamo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Kwa muganga hahagazemo abaganga batatu bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'undi muforomo wambaye itaburiya y'ubururu, bakaba bari kwita ku murwayi w'umugabo wicaye ku gitanda, wambaye ishati irimo uturongo tw'umweru n'umukara.

Kwa muganga hari abarwayi baje kuhivuriza, barimo umumama wambaye ibitenge wicaye aho bategererereza, hari n'umupapa wambaye inkweto zisa nk'icyatsi n'ijaketi y'umutuku irimo n'ibara ry'umukara.

Ku kigo nderabuzima, hicaye abaganga batatu, bambaye amatabuririya afite amaboko maremare asa nk'umweru, bambaye n'amakarita y'akazi mu ijosi, iruhande rwabo hahagaze umugore, wambaye agapira gasa nk'icyatsi cyerurutse.

Kwa muganga hahuriye ababyeyi baje gukingiza abana muri bo harimo umugore ugezweho, imbere ye hakaba hari umuganga uri gutera urushinge umwana we.

Muri raboratwari, harimo umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, akaba yazanye ibizamiini by'abarwayi kugira ngo abisuzume amenye icyo barwaye.

Kwa muganga hari umuganga wambaye ikanzu isa nk'icyatsi, ga z'ubururu, agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse na'akagofero gasa nkicyatsi. Ugiye gusuzuma ibizamini yafashe umurwayi.

Muri laboratwari hari umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse, wambaye na ga z'ubururu butsitse, ufite udukoresho ari gupimiramo amaraso bamaze gufata umurwayi.

Muri laboratwari hari umuganga wambaye itaburiya y'amaboko maremare isa nk'umweru, harimo ibikoresho ari kwifashisha, asuzuma ibizamini runaka biri gufatirwa muri iryo suzumiro.

Umubyeyi waje kwa muganga, gusuzumisha umwana we, akaba yicaye ari kumwonsa uwo mwana akaba ari umukobwa ndetse akaba yambaye neza cyane, bamwambitse n'akagofero k'umweru mu mutwe.

Abantu benshi cyane bambaye imipira ya oranje bafite ibipirizo n'imitaka byose bisa nka oranje, bakaba bambaye amabaji mu ijosi bigaragara ko bari mu bukangurambaga bujyanye n'ubuzima.

Umuntu ugize ikibazo cyo kugwa igihumure, akaba ari guterurwa n'abaganga ndetse n'abandi bantu batandukanye, kugira ngo bamujyane bajye kumukurikirana.

Muri farumasi nziza cyane hahagazemo umumama wambaye isengeri y'umweru n'akajipo kagufi karimo utudomo tw'umukara n'umweru uri gucuruza iyo miti.

Farumasi nziza cyane, imbere yayo hateye ubusitani busa neza cyane, iyo farumasi ikaba icuruza imiti y'amoko menshi agiye atandukanye.

Muri farumasi harimo imiti igiye itandukanye, hahagazemo umuganga wambaye itaburiya y'amaboko maremare isa nk'umweru, mo imbere yambariyemo ishati na yo isa nk'umweru, biragaragara ko yishimye cyane.

Farumasi nini cyane, isa neza mo imbere hateyemo irangi ry'mweru, harimo utubati tugiye turimo imiti igiye itandukanye ivura indwara nyinshi ziri mu moko atandukanye.

Ubukangurambaga bwateguwe na minisiteri y'ubuzima, bwaje kwigisha abaturage, ibijyanye no gukoresha agakingirizo kugira ngo birinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ubukangurambaga bwahuje abantu b'ingeri zose, bwaje gukangurira abaturage ibijyanye n'ubuzima, uburyo bwose bakoresha kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Ubukangurambaga bwabereye mu murenge bukaba bwahuje abayobozi bagiye batandukanye, bakaba bari kuganira kuri serivisi z'ubuzima n'uburyo abaturage bazajya bazibona bitabagoye.

Ibyatsi bikoreshwa n'abavuzi ba gakondo babikuramo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inzoka inkorora ibicurane ndetse n'ibindi.

Ku kigo nderabuzima hari abaganga n'abajyanama b'ubuzima, bamwe muri bo bambaye amatabuririya y'imyeru abandi bambaye amataburiya y'ubururu, hari n'umumama uhetse umwana.

Ahantu hacururizwa imiti y'amatungo, by'umwihariko inkoko, hakaba hasa neza cyane, hari n'icyapa kigaragaza ko bahacururiza iyo miti, cyanditseho piperazine.

Mu ivuriro, hari umugore waje kwivuza, akaba yicaye iruhande rwa muganga ndetse muganga akaba ari kumubaza uburyo yafashwe kugira ngo abashe kumuvura.

Ku kigo nderabuzima habereye inama yahuje abajyanama b'ubuzima n'abaganga, bakaba bari kuganira ku buryo bwo kunoza serivise z'ubuzima kugira ngo abaturage batazajya binubira serivisi mbi bahabwa.

Ku kigo nderabuzima hahagaze abantu babiri bateruye icyapa kinini cyane cyanditseho ibintu bigiye bitandukanye, icyo kigo nderabuzima kikaba gisize irange ry'icyatsi n'ubururu.

Icyapa gisa nk'umukara giteye ahantu muri jaride nziza cyane, cyanditseho ngo impeshakurama z'Ibitaro bya Nyagatare, gukunda umurimo no kuwunoza, kugira ibanga ry'akazi ndetse no guharanira ubuzima buzira umuze.

Ku kigo nderabuzima hari icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo n'imyenda abaganga bifashisha igihe bari mu kazi muri icyo cyumba hakaba hicayemo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, hirya ye hakaba hari undi mukozi uteruye bimwe mu bikoresho bihari.

Icyapa kigaragaza ko hafi aho hari ivuriro rikorana n'ubwishingizi bugiye butandukanye ndetse bakaba bavura n'indwara zigiye zitandukanye, nanone kandi bakaba batanga na serivise zo kuboneza urubyaro.